Ni umuhanda hahagaze umuntu kuruhande uri guhengeza, inyuma ye hari icyapa kiriho umukobwa w'umuzungu wambaye ishati y'umutuku imisatsi miremire y'umukara uri kureba imbere.

Inkweto z'amabara menshi ziri hamwe, harimo izimeze nk'iz'abakobwa ndende zigiye hejuru zifite imishumi, harimo utw'abakobwa two hasi dufite ibara ry'umweru n'iry'umukara, ku ruhande hari izifunze zifite ibara ry'umweru na taro y'umukara...

Iduka ricururizwamo imyenda, imiryango ibiri umwe urimo amashati bigaragara ko ari ay'abagabo, hateretsemo intebe ya pulasitike y'umweru, ku ruhande hari akameza, irindi rifite ibyapa by'ubururu haranarangaye.

Imodoka y'umweru iparitse ireba imbere, ku ruhande rwayo hari ayandi ma modoka aparitse areba kuhande rwo hepfo ndetse n'urwa ruguru, inyuma yaho hari igikontineri kiri mu ibara ry'umutuku, inyuma y'icyo gikontineri hari inzu y'amagorofa agera kuri abiri, ifite amabara y'ubururu n'umweru n'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'amaboko maremare ufite mudasobwa imbere ye n'ibindi byuma ari kwakira umukiriya umugana w'umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare ya makaro.

Iduka ricururizwamo amata, hari abacuruzi babiri bambaye imyenda y'umweru, umwe yambaye ishati y'umweru, undi yambaye umupira ndetse n'ingofero, bose ni igitsina gore, abaguzi bari imbere yabo, umwe yabagezaho yambaye umupira w'icyatsi ni igitsina gore, undi muguzi ari inyuma yambaye amarineti ni umugabo.

Umugabo wambaye igisarureti, iruhande rwe hateretse tureyi eshanu z'amagi, iyo hejuru ni igice rimwe riteretse ku ruhande rwo hirya, ari kuyatera umugongo arebye imbere.

Umugore w'igikara wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro, wicaye mu ntebe y'umweru, iruhande rwe hari icyuma cyamata y'Inyange ari kuvomeramo amata mu kajerekani k'umweru karindwi.

Umuntu w'igitsina gore uhagaze muri kantine ushyize terefone ku gutwi, imbere ye hari akameza gateretseho ijage ipfunduye, hari icyuma cy'amata muri iyo kantine umuntu ukoramo ari kuvoma amata.

Inzu icururizwamo ibiribwa n'ibinyobwa hahagaze umugabo muri kontwari wambaye amarinete umeze nk'aho ari mukuru, imbere ye hari etajeri iteretseho indobo zirimo amandazi, imigati, keke n'ibindi. Ku ruhande hari umusore uteruye akajerekani uri guseka nk'aho agiye guhereza abakiriya.

Ahantu hacururizwa amata hari intebe ebyiri ndetse n'ameza, ku nkuta hariho amashusho y'ububido bw'amata ya yawurute ndetse n'amacupa ye yawurute, kurukuta handitseho nimero za terefone ushobora kwishyiriraho uguze utuntu.

Ahantu hacururizwa ibyo kunywa, umugabo aricaye umugore arahagaze hari icyo agiye guhereza umuntu, biragaragara ko hari n'icyuma cy'amata. Inyuma yabo hari etajeri irimo amaji y'ubwoko bwose; marite, iy'inanasi, za mirinda. Imbere yabo kandi hari n'akameza gateretseho na make.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu, afite igicuba mu ntoki ze, ari gusuka amata mu cyuma cyabugenewe, arimo aranarebamo, inzu arimo isize amarangi y'umuhondo, harimo n'insinga z'amashanyarazi.

Ahacururizwa amata n'ibyayi hari ameza abiri nintebe enye abantu bicaraho, iruhande rwabo hari icyumba cy'amata ku bikuta byaho, hashushananijeho utubido tw'amata nu n'dukombe twa yawurute inyuma yaho hari etajeri irimo amajerekani, amazi ku rundi ruhande rwabo ku kameza hariho amata.

Umugabo ubyibushye w'igikara wambaye marinete, uri kureba muri terefone ya taci, inyuma ye hari umubyeyi wambaye igitenge useka wishimye, wambaye n'isaha ari kureba muri terefone umugabo afite.

Umuryango ufite ibyapa imbere yawo hejuru, unanditseho ku birarahuri byayo, imbere yaho hari kandagira ukarabe, ku ruhande hari uwundi muryango uhagazeho umuntu w'igitsina gabo wambaye ijiri y'ibara ry'icyatsi, umeze nk'urindiriye abantu bagiye kwinjira.

Umuntu w'umuzungu ufite amafaranga mu ntoki, ku ruhande ku meza hari andi mafaranga y'amadorari y'inoti ahateretse.

Inyubako ya etaje ku birahure byayo hariho ibyapa, mu muryango hejuru hariho ibyapa na ho, hari gusohokamo umuntu w'igitsina gore wambaye wikwije unitandiye, umeze nk'umu Islam w'umuzungu.

Umuhanda w'amabuye urimo moto eshatu ziri kumanuka, imwe ihetse umwana, haruguru yaho gato hari inzu yanditseho ibirayi, munsi yaho hari ibitanda, etajeri, intebe, utubati, matora, bigaragara ko hakorerwa ububaji.

Inzu irikwakamo amatara y'umweru, harimo intebe z'umukara nziza, hicaye umukobwa wambaye tisheti y'umweru, ufite kompiyuta imbere ndetse na fotokopiyeze, ku ruhande hamanitsemo amafoto ndetse na ekara, harimo iya perezida wa repubulika y'u Rwanda, Paul Kagame.

abagabo babiri bicaye ahantu hameze nk'umweru umwe yicaye imbere y'imashini yadestop na raftop isanzwe kuruhande rwe hari amadocumen hepfo hari imashini ifotorafoto copiese imbere hari umugabo wifotoje areba imbere ameze' guhabwa serivisi ufite agakombo kafata akooka

Umuzungu n'umwirabura bose b'ibitsina gabo bahagaze, bameze nk'abari kugira ibyo baganiraho, imbere yabo hari akameza ndetse n'intebe yo kwicarwaho.

Inzu ifite imitako y'ibipirizo hejuru kuri purafo yayo, hasi hica abantu batandukanye bamwe bicaye imbere y'abandi bameze nk'abari gutanga no guhabwa serivisi zigiye zitandukana.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ziparitse, hari kwa feruje y'umutuku, kuruhande hari inzu y'umuturirwa usize amarangi y'umweru ndetse n'ibiti, inafite korotire.

Abantu bahagaze bagiye gukora ikiziga, harimo umugabo umwe, munsi gato yabo hari intebe za parasitike ndetse n'inzu yubakishije amabati, ku ruhande gato hari inzu yubakishije ibyatsi.

Umuntu w'igitsina gore uri kumwenyura ufite wambaye ikintu m'umutwe cy'umukara uri kwemeza ibintu runaka wambaye.

Abantu bicaye ahantu hameze nko mu isuko imbere yaboho hasutse ibijumba n'imyumbati myinshi, inyuma yabo haparitse moto ndetse n'abantu bameze nk'abakiriya bari kubagurira, hirya gato hari abantu bandi bari mu bintu byabo basa naho batitaye ku biri kubera aho ngaho.

Abantu bicaye ku nkombe z'umugezi, bicaye mu mitaka umubyeyi umwe yicaye imbere y'ibasi arikogerezamo amafi ari kuyahata. Iruhande rwe hari abantu bandi bari mu yindi mirimo harimo abahagaze n'abicaye.

Isoko ricururizwamo imyenda, ibikapu, amasupanete, amakariso n'ibindi, umugabo n'umugore bari guhaha hirya hari abandi baguzi batandukanye barihanga.

isoko ricururizwamo ibitenge, amashakoshi n'ibindi bijyanye n'ubugeni, harimo abantu benshi hafi aho hari n'abadozi, harimo umuzungu umwe n'abirabura bari guhaha mu iduka hirya, abandi bakurikiye abakiriya babo.

Umukozi wa emutiyeni (MTN) wunamye ahantu mu kab igaro ,imbere hateretse ameza ariho ingofero ebyiri za emutiyeni, imipira ibiri ya emutiyeni ndetse na gurude ebyiri za emutiyeni ku ruhande hari umuntu w'umukiriya wa emutiyeni uri kugenda areba ibikorwa byayo.

Abantu benshi bashungereye umukozi wa emutiyene wicaye mu mutaka ku ntebe y'icyatsi imeze imbere ye, amazi y'inyange mu gacupa imbere ye bose baramushungereye bari kumva icyo ababwira.

Akazu gasize amabara ya sosiyete y’ itumanaho ya MTN umu agent uri gutanga serivisi za MTN abakiriya afite n’ umugore ndetse n'umugabo, inyumaye hari inzu yubatse imeze nk'iy'ubucuruzi harimo butike.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa n'ibyo kurya, hatereste firigo ya koka kora irimo amafanta, imbere y'aho hari umubyeyi umeze nk'umukiriya uhagararanye n'umukobwa bari guseka, umugore ari kureba muri terefoni, umukobwa ari imbere ye ari guseka, yambaye umupira wa MTN.

Umugabo bigaragara ko akorera sosiyete ya emutiyeni wambaye umupira w'umweru w'umuzungu wambaye amarinete ari guhereza umugore wambaye ishati y'umukara w'umuzungu na we, ari kumuhereza agaseke ngo agire ibintu akoramo, iruhande rwabo hari imashini inyuma ya hari uwundi muntu wambaye umupira w'umuhondo bigaragara ko ari uwa emutiyeni.

Akazu k'umuhondo ka MTN, kari gutangirwamo serivisi za MTN harimo abantu babiri bari kuzitanga, hanze hari abakiriya batatu babategereje, babiri bari guhabwa izo serivisi, umwe ntari kuyihabwa arategeje.

Umuntu uhagaze mu kazu k'umuhondo ka MTN uri kureba hasi, yambaye tisheti ya shokora n'umweru, hepfo ye hari inzu, ubusitani ndetse n'uruzitiro.

Umugabo wambaye umupira, arengejeho ijire ifite ibara ry'icyatsi n'umukara n'umweru, ahagaze hagati y'imirima ibiri ameze nk'uri kwerekana ibimenyetso, munsi ya gato hari amazu afite ibipangu meza cyane.

Umugabo wambaye amarineri n'impeta na kositime, ufashe ibiganza bibiri uri kumwenyura uri kugira ibyo atangaza, inyuma ye hari inzu ya etaje isize amarangi y'umweru irangaje umuryango.

Isoko ry'imbuto n'imboga, harimo abantu benshi, buri wese ahagaze imbere y'ibintu bye, harimo inyanya, tungurusumu, shufurere, karoti, imiteja, pavuro, intoryi, urutunguru, dodo, amashu n'ibindi.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo abaguzi babiri b'igitsina gore, bari kugenda bareba ibyo bashobora kuba bagura bakabishyira mu gakoresho bafite ku ruhande, bagakomeza bagasunika.

Inyubako irimo abantu benshi harambuye imikeka n'amatapi bameze nk'abari kubigura ku ruhande hirya hari urujya n'uruza rw'abantu hari firigo bari kugura ibyo kunywa abandi bari gutambuka.

Iduka ririmo abagabo batatu, babiri bameze nk'abari guhaha, undi umwe umeze nk'aho ari we uri gucuruza, barimo amatara ari kwaka, hameze neza cyane, hateretsemo ibintu by'utubati dutukura n'umukara, inyuma yaho hari intebe.

Abantu b'igitsina gore batanu, umusore umwe wambaye ingofero ayirebesheje inyuma, bahagaze bose bari kureba ubugeni, uduseke, udushenete twakorewe ahantu tuhamanitse bari kureba uko bikorwa.

Abagabo babiri bambaye amakositimu n'amakaruvati umwe muri bo n'inzobe yambaye amarinete afite n'akantu mu ntoki, inyuma yabo hari abantu babiri bambaye amashati y'ubururu n'amabaji, imbere yabo hari mudasobwa bameze nk'abakozi b'ikigo cy'igihugu cya rssb, inyuma yabo hamanitse ifoto ya perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame.

Abantu bane bicaye bari kuganira abagabo babiri n'abagore babiri, kuruhande rwa buri muntu hari akameza, umugabo umwe yambaye amarinete umugore umwe yambaye ikote, n'ijipo umugore yambaye ipantaro n'ishati, abagabo bose bambaye amakoti n'amapantaro n'amashati maremare.

Iduka riri kugaragaramo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, byose bipanze neza muri etajeri hasi harimo amakaro hejuru hasize irangi ry'umweru.

Iduka ricururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hateretsemo amavide y'umukara, hateretsemo za firigo zirimo ibyo kunywa, harimo amabiswi, harimo amashokora, harimo ibintu bigiye bitandukanye, byose bipanze neza muri za etajeri.